Abana bane bicaye iruhande rw'ameza atukura, abo bana bose bakaba bafite impuzankano bambaye zifite amabara y'ubururu.

Abana biga mu mashuri y'incuke bicaye ku dusheze dutoya, bakaba barimo kugenda babazwa utubazo na mwarimu wabo bagenda basubiza bityo bikabafasha gutekereza neza.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, ni inyubako ifite amarangi y'icyatsi kibisi ndetse iruhande rwayo hari ibiti bifite amababi n'amashami manini cyane.

Urukuta rushushanyijeho umwana ufite ubumuga bw'amaguru, akaba ari mu kagare ndetse bikaba bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri kiri aho ngaho imbere.

Icyapa kinini cyane kiriho imbonerahamwe igaragaza uburyo ibintu bigenda bikorwa mu kigo cy'amashuri kimwe kiri muri iki Gihugu.

Agakarito gafitwe n'ibiganza by'umuntu ndetse hakaba handitseho amagambo y'Igiswahili agaragaza y'uko harimo ingwa zifashishwa n'abarimu mu kwandika ku kibaho.

Abana bari mu ishuri ni batatu, barimo barakina ndetse bahetse ibikapu umwe agitwaye mu ntoki abandi batashye amasaha yo gutaha yageze, aba ngaba baragera mu rugo batinze.

Inzu nziza cyane y'umuturage ariko ishakakaje amategura ikaba ari iya gitwe kimwe, iruhande rwayo haparitse akamodoka gatoya, imbere yako hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Kwigisha umwana ukiri mutoya wiga mu mashuri y'inshuke biragorana cyane, bisaba ko rimwe na rimwe ukora ibishushanyo birimo ibyo ushaka kumwigisha, urugero ukabumba nk'udupapuro ukandikamo imibare.

Igiti kinini kiri gutangira gukura cy'umukindo, kikaba kiri imbere y'inyubako, iyo nyubako ikaba ifite urubaraza, urubaraza rumanitsemo idebe ryifashishwa mu kuvuza inzogera kugira ngo abanyeshuri basohoke cyangwa binjire.

Abanyeshuri benshi cyane bari kujya ku ishuri bitewe n'uko igihe cyo gusubira ku mashuri cyageze, bahetse ibikapu birimo ibikoresho abandi bafite za matela bazaryamaho.

Ni mu itangira ry'amashuri, abanyeshuri ni benshi muri gare. Imodoka na zo zirahari kandi ziteguye kubatwara. Abanyeshuri bose bashyizwe ahantu hamwe ndetse bacungiwe umutekano na daso.

Abanyeshuri bicaye mu kizamini barimo gukora bandika ku mpapuro zabo, buri wese ari kureba ku rupapuro rwe ndetse nta numwe uri bukopera undi, umuryango w'ishuri ufite ibara ry'ubururu.

Inyubako nziza cyane ifite urukuta ndetse ikaba ifite porotayi nini, ifite urugi rufitemo akabara k'umweru gashushanyije umutima, ikaba ari inyubako bigaragara ko ari iy'ikigo cy'amashuri.

Umwarimu ahagaze imbere y'ishuri ndetse ari kwitegereza abanyeshuri na bo bari imbere y'ishuri. Iryo shuri risakaje amabati meza cyane y'umweru ndetse hari inzugi nziza cyane.

Ibigo byinshi byo mu Rwanda biba bishingiye ku madini runaka, gusa hari amadini adakunze kugira ibigo by'amashuri, abenshi bazi ko Abadive nta bigo bagira ariko barabigira nubwo ari bikeya.

Umuryango munini cyane ufite ibikuta by'amabuye ndetse hakaba harimo inzugi zisize irangi ry'ubururu. Hari umugabo uri imbere yawo akaba ari ushinzwe umutekano.

Inyubako nziza cyane ifite imbuga ngari, iyo mbuga ikaba ishashemo amapave ndetse hakaba hari akaziga karimo idarapo by'Igihugu cy'u Rwanda ndetse hakaba hari n'irindi darapo ry'umuryango w'abibumbye.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama. Ni icyumba giteguye neza cyane, gifite indabo ziba ziteretse imbere ndetse hakaba hari abantu bari kugenda baganiriza aba banyeshuri.

Ikigega kinini cyane gifite litiro nyinshi cyane zirenga ibihumbi makumyabiri, kikaba kiri muri Kaminuza y'u Rwanda nk'uko amagambo yanditse hejuru abigaragaza ari mu ibara ry'ubururu.

Leta y'u Rwanda igira uruhare mu guteza imbere ibikorwa bitandukanye ariko ubu muri iyi minsi yitaye ku burezi ku buryo buri mwana wese yahawe mudasobwa yifashisha igihe arimo kwiga.

Intebe nziza cyane z'umukara, zikaba ziteye ku meza, ayo meza na yo akaba afite ibara ry'umweru, hari umugore uri imbere urimo kugenda azenguruka, areba neza uburyo izo ntebe zimeze.

Urugi rufite ibara ry'umutuku, kuri urwo rugi hatatseho agapapuro kariho ifoto y'umugabo ukorera aho ngaho mu imbere ndetse hejuru handitse icyapa kigaragaza ko ari aho bakirira abantu.

Inyubako ifite imiryango ibiri ndetse iyo miryango yose ikaba ifite imbaho nziza cyane ziyigize, imbaho zitwa ribuyu, aho ngaho hakaba handitseho imibare kuri buri muryango.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse hakaba hari igiti kirekire cyane cy'isederi kiri iruhande rw'ubusitani. Ubwo busitani bwegereye akayira kanini kagari, gashashemo amapave.